Umugabo wambaye imyenda y'umukara n'ubururu ndetse n'ingofero, ahetse pombo arimo aruhira umurima w'umuceri, umuceri watangiye kuraba ugeze igihe cyo gutumba ngo ugere igihe cyo kwera.

Abagabo babiri n' n'umugore umwe wambaye ijipo y'igitenge bahagaze imbere y'icyuzi cy'amafi mu murima umeze nkaho ari igishanga icyo cyuzi cyubatsemo.

Umuntu uhagaze imbere y'icyuzi cy'amafi, ufite indobo, ntoya irimo ibisa nk'aho ari ibiryo by'amafi kuko arimo abinyanyagiza mu mazi, bigaragara ko ari kugaburira amafi.

Icyuzi cy'amafi kiri ahantu mu murima urimo insina, hirya inyuma yaho hariho indi myaka ndetse n'ibigori ndetse no ku ruhande rwo hino hakaba hariho akarima gatoya gahinzemo amashu.

Abagabo bane barimo kuroba bafite indobani basa n'abari kwikura mu mazi, bamaze ku kuroba mu kiyaga kinini ariko kitari kinini cyane, kiri ahantu mu gishanga.

Abantu batanu, bamwe bari ahantu bigaragara ko bashaka kuroba, mu cyuzi cy'amafi kibari iruhande n'abandi bahagaze, bari iruhande rwabo, bafite ibintu by'ibidobo by'umweru bigaragara ko ari byo bashyiramo amafi.

umuntu w'igitsina gore wikenyesheje ishalupe y'amabara y'umukara, umuhondo n'umutuku, wambaye n'umupira wa oranje, witeze n'gitambaro mu mutwe, ahagaze ahantu hari icyuzi kimeze nk'icy'amafi, ahantu hari ahantu bashyize supanete bigaragara ko hateze amafi.

Umugore wirabura witeze igitenge mu mutwe cy'amabara y'umutuku n'umweru, wambaye agapira k'amabara y'umuhondo n'umukara. Uri gusarura ikawa mu murima w'ikawa.

Umuntu w'igitsina gore, usa nk'aho akuzemo gakeya, ari ahantu mu murima w'icyayi, arimo arasarura. Ku ruhande rwe hari agapaniye arimo asarura icyayi ashyiramo, bigaragara ko ari mu murima wenyine.

Igiti cy'ikawa, kiriho ikawa nyinshi zeze ziri mu mabara y'umutuku, n'izindi nkeya zitari zera ziri mu mabara y'icyatsi kibisi, inyuma yaho hari n'izindi kawa nyinshi bigaragara ko ari mu murima w'ikawa.

Abantu benshi barimo basarura icyayi bahetse udupaniye two bagenda bashyiramo icyayi. Biteganye n'ahantu hari inzu y'ibyondo ndetse n'urutoki ruyikikije.

Umuntu wambaye ikoboyi, yambaye n'umupira w'umukara, ari mu murima w'icyayi, afite ibibabi by'icyayi kibisi, ndetse n'akandi gafu k'icyayi yatunganyijwe mu Ruganda.

Abantu babiri b'igitsina gore bari ahantu mu murima w'icyayi, ni umurima mugari cyane w'icyayi, barimo basarura icyayi bashyira mu kantu bahetse kameze nk'agatebo, inyuma yabo hari inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye.

Umurima mugari urimo umuceri, umuceri weze cyane urimo abantu bari gusarura, abantu batatu bigaragara ko hari ababyeyi babiri, abamama babiri bambaye ibitenge, n'undi mugabo urimo wambaye umupira w'icyatsi n'ubururu, n'umuhondo n'ingofero y'umweru.

Igishanga kirimo umurima w'imiceri, umuma w'imiceri urimo ibiceri myinshi, itangiye kuzamuka itariyaraba neza, ngo igire igihe cyo kwera, n'ihigihe k'isarura.

Umurima w'ikawa zeza zihishije hari igiti cy'ikawa nziza cyane zihishije z'umutuku n'izindi zikiri mbisi bigaragara ko ari igiti cyakoze neza, gishishe, gifite ikawa nyinshi cyane.

Umugore ukiri muto, ari mu murima w'ikawa, barimo barasarura ikawa, ni kawa yagonze kugirango abashe kuyisarura neza, iriho ikawa nyinshi zeze zihiye ndetse n'izindi zitari zashya neza.

Agashami k'ikawa kariho ikawa zikiriri mbisi cyangwa izo twita ibitumbwe mu rurimi rw'ikinyarwanda ziba ari ikawa zitarizera cyangwa se zitazahisha neza ngo zibe zajya ku isoko.

Ahantu hameze nka'akaetajeri, karimo uducupa twinshi bashyiramo imiti, ni uducupa turindwi dutoya n'irindi cupa rinini, inyuma yaryo hari ibikarito, bibiri by'umweru, anvelope ndetse n'ikindi gisa n'umutuku.

Amacupa arimo imiti ya vitamini, imiti ya vitamini y'inkoko, harimo ayanyanditseho biyomigisi egisitara egi, harimo iyanditseho ko ari ama vitaminini yifashishwa kongerera inyongeramirire mu biryo by'inkoko.

Umugabo uri mu murima uri guhinga, umugabo udakuze cyane, umugabo wambaye ipantaro y'umukara wambaye isengeri irimo amabara y'ubururu uri guhinga ahantu hameze nk'ahadaheruka guhingwa harimo ibyatsi byinshi.

Ahantu mu gisambu, ni igisambu kirimo ubwatsi bumajije kumera, harimo inka nyinshi z'amabara y'umweru n'umukara, ni inka nziza cyane, inka zambaye n'amaherena, amaherena y'umuhondo, zimwe ziyambaye ku matwi yombi.

Abantu barimo batambuka rwagati mu murima harimo abatambuka bagenda kuru ruhande rw'imbere n'undi mumama ufite isuka ku rutugu urimo usa nkaho afite umuntu ari kureba imbere ye.

Ahantu mu kibuga hari akazu kubakishije ibyuma, bifite ibara ry'ubururu, imbere yako hari ikiba cy'ibiti bibisi, harimo ibiti binini ndetse harimo n'utundi tw'amashami.

Abaturage barimo baratera ibiti mu murima, harimo abaturage babiri, umupolisi ndetse n'undi muyobozi, barimo batera ibiti mu murima bambaye bote.

Umugore wambaye igitenge akenyeye igitenge, wambaye ikanzu, inyuma ye hari umugabo ukukiye ufashe ishu mu ntoki, impande y'aho hari umurima w'amashu bigaragara ko yeze.

Igiti kirimo voka mbisi, harimo voka zeze ariko zitari zatemwa, harimo n'indi voka isa nk'aho yangiritse bigaragara ko hari ikintu cyayikozeho bigatuma yangirika bikayiviramo kubora.

Imparage iri ahantu mu murima, ni umurima urimo ibyatsi bikuze bigaragara ko hari umurima udaheruka guhingwa inyuma yayo hari ibiti imbere yayo hari ibiti bigaragara ko ikikijwe nk'ahantu hameze nk'ishyamba.

Umumama ari guhinga mu murima, mu murima inyuma ye hariho imigozi, imigozi y'ibijumba, ku ruhande rwe ku ruhande rw'ibumoso hari insina ku ruhande rw'iburyo hari igiti kinini kigandaye.

Inyoni bita umusambi ihagaze ahantu mu gishanga mu muririma usa n'aho nta myaka ihinzemo, imyaka yari irimo barayisaruye ariko ntabwo bari bongera kuhahinga harameruye.

Umurima w'urutoki, bisa nkaho harimo insina zo mu bwoko bw'indaya, izo mu bwoko bwa fiya ndetse hasi muri urwo rutoki hahinzemo imyaka, imeze nk'uruyuzi ndetse n'imboga rwatsi.

Umurima w'amashu ateye ku buryo bwa kijyambere mu ku murongo, ni amashu yo mu bwoko butandukanye, ni ubwoko bubiri harimo ayo bita shofurere ndetse n'andi mashu asanzwe ahingwa mu Rwanda.

Umurima mugari cyane ni umurima uri ahantu mu gishanga ni ahantu hagari cyane hitaruye munsi y'umusozi, ni umurima uhinzemo umuceri ariko umuceri ukiraba, utaragera igihe k'isarurwa.

Uruboga rwatsi rw'icyatsi ruzwi ku izina rya dodo ruri mu murima, umurima urimo ibyatsi byinshi ibyatsi abanyarwanda bita inteja bigaburirwa amatungo.

Ahantu mu murima ariko umurima udaheruka guhingwa, ni ahantu hamezemo ikigori; ikigori kikaba cyarakuze kikera ubu kikaba cyumye ,hakurya hari amazu; amazu abiri ameze nkaho ari amazu y'ubucuruzi.

Umurima wameruye urimo ibyatsi bikuze cyane, urimo ikigori, ikigori gisa nk'aho gitangiye kuma, kimaze igihe kize ariko kikaba kitari cyasarurwa.

Igiti cy'amaronji kiriho amaronji akiri mabisi, gifite utubabi dusa nkaho aribwo tukizamuka tugitohagiye, inyuma yacyo hari urupangu ndetse n'icyapa kirekire.

Ahantu mu murima ni ahantu bisa nkaho baranduye ibigori, ni ibigori byari byareze byarumye ariko byumira mu murima batarabisaruye none babisaruye babirambika hasi mu murima.

Mu muririma uhinzemo urutoki n'ikawa harimo insina zannye, ariko zitari zera ngo zigere isarurwa, n'ikawa zishishe cyane zisa neza zigaragara ko zitabwaho cyane.

Igiti cy'isombe ariko isa nkaho imajije gupfa, kuko amabara yayo yarahinduye, yahindutse isura, isombe iri ahantu rwagati mu murima, umurima usa n'urimye ariko udatabiye neza.

Umurima mugari cyane, umeze nkaho ari umurima wo mu gishanga. umurima umeze nkaho bawuhingamo umuceri, ariko bakaba barawusaruye, ariko nyuma yo gusarura ntibongeye kuhahinga kuko hamereye. Umurima urimo umusambi uhagaze.

Aantu hari ishyamba ryinshi cyane ni ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane bimeze nk'aho ari ishyamba ry'inzitane kuko mo hasi ntiwapfa kuhabona urebeye hejuru kubera ubwinshi bw'ibiti.

Abantu basa n'abari kuzamuka umusozi bagana hejuru, bayobowe n'uwari imbere umugabo munini cyane w'bigango, ukurikiwe n'undi wambaye agasengeri k'ubururu n'abandi benshi babakurikiye inyuma.

ishyamba ry'ininzitane ririmo ibiti byinshi ku buryo utapfa kurebamo imbere, mbere yaryo hari ikimeze nk'inyanja, inyanja y'ubururu bwerurutse hejuru yacyo hari ikirere gisa nk'ikigiye kugwa imvura.

Umugezi utemba uri rwagati mu misozi, imisozi, ibyatsi, ibyatsi ari byinshi bihapfutse, ibiti byabaye inzitane, bigaragara ko ari mu ishyamba ntamuntu uhakora.

Umurima munini usa nk'aho ari igishanga kidaheruka guhingwamo ku ruhande rwawo hari ibiti bisa n'ibimeze nk'imigano, ibiti bikunze kuba mu ruhande rw'amazi ikirere gisa neza nacyo cyerurutse.

Abantu babiri basa nk'abari kuzamuka umusozi barimo urimo w'imbere wambaye umupira w'umukara ndetse n'undi umuri inyuma wambaye umupira w'umweru barimo bazamuka ku musozi.

Ishyamba rinini cyane ni ishyamba, bigaragara ko ari ishyamba ry'inzitane kuko ni ishyamba ririmo ibiti byinshi, aho utapfa kumenya ngo hano ni hehe, no mu biti urebeye hejuru ntushobora kuba wabona ubutaka bwo hasi.

Ishyamba ry'inzitane riri ku misozi itatu, imwe ibiri bigaragara ko ari minini, undi umwe ugaragara ko ari muto, ariko yose ikaba iriho ibiti byinshi, ibiti by'inzitane.

Akarima k'igikoni karimo ingeri eshatu z'imboga harimo amashu, ibitunguru by'ibinyabijumba ndetse n'izindi mboga hejuru n'akarima k'igikoni kari imbere y'inzu isa nk'ikigo cy'amashuri.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ikaburiya y'umweru n'ingofero mu mutwe, ari mu murima wa puwavuro, puwavuro z'ibara ry'umuhondo ufite umukasi umeze nk'uri gukeba puwavulo imwe ayisarura.

Abantu bari imbere y'igitebo kirimo inyanya zihishije cyane; umugore n'umugabo. Umugabo afashe urunyanya arimo arareba ukuntu rumeze. Umugore afite amafaranga mu ntoki, afitemo inote y' ibihumbi bibiri arimo na we agenda areba inyanya.

Abantu bari ahantu mu murima, ni umurima bisa nkaho ari umurima w'amashu, ni abantu barimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, barimo batambukamo, bisa nkaho barimo bagenda bareba uburyo amashuri arimo kugenda akura neza.

Imbuto n'imboga zitandukanye harimo: izitwa pome, harimo amashu, ayitwa Shufurere, harimo avoka, harimo amaronji, karoti, ibigori n'ibindi bitandukanye.

Umurima usakaye urimo insenda ziteye mu masashi, ziri ahantu mu nzu yabugenewe bahingamo, inzu iba isakajwe iba yubatswe n'amateti harimo insenda zitangiye gushya n'izitarashya.

Ahantu mu murima hameze nko mu gishanga hakurya hari umusozi ariko utari muremure cyane, ni ahantu mu gishanga hahinze imyaka ariko ikiri mitoya harimo ikintu cyuhira ku buryo bwa kijyambere.

Umugabo urimo kuhira arimo kuhira imyaka mu murima mugari cyane, umurima usa nkaho wari mu ishyamba ariko bakaba barahinze imyaka arimo aruhira akoresheje urwuho.

Imashini ya kijyambere ikoreshwa mu kuhira, ifite imigezi yuhiriraho myinshi, imashini ifite amapine ane, iriho n'icyapa kiriho amabara y'umutuku hagana hejuru.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira urimo amabara y'ubururu umweru n'umukara, arimo aruhira imyaka muri iyo myaka harimo igiti kinini cy'imyembe ndetse no hirya hari ibindi biti byinshi bigaragara nk'aharimo agashyamba.

mUuntu w'igitsina gabo ariko bisa nkaho akiri mutoya, afite ikintu cy'uruhombo, ni uruhombo rurerure cyane, arimo akoresha yuhiza umurima, ni umurima urimo insina, harimo izikuze inyuma ariko we akaba ari kuhira izikiri ntoya.

Abantu bari kuhira mu muririma bari kurira bakoresheje ibintu bimeze nk'amatiyo, harimo umugore uhetse umwana mu mugongo wambaye ingofero y'umukara, wambaye n'ijipo irimo amabara y'ubururu.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, wambaye ipantaro y'umukara n'ngofero y'umukara uri ahantu hagati mu murima hari ufite ikintu kimeze nk'icyuma cyamatiyo cyabugenewe nk'igikoresho cyo mubuhinzi.

Abantu bari mu nzu ya kijyambere yagenewe ubuhinzi, abantu bambaye amataburiya, ni abantu bagera ku bantu barindwi, bambaye amataburiya y'umweru, harimu ikintu cy'inyubako gisakaye gihingwamo imyaka.

Umuntu w'igitsina gabo usa nk'aho ukiri mutoya afite ikintu kimeze nk'uruhombo, mu ruhombo wifashisha mu kuhira imyaka, arimo kuhira ahantu mu murima, umurima munini cyane urimo imyaka bisa nk'aho ishishe igeze igihe k'iraba.

Umuntu w'igitsina gore, ukiri mutoya wambaye ishati y'igitenge, wikinije isharupe y'icyatsi, usa n'uri kuhira mu kintu kimeze nk'uruhombo, gifite amabara y'umukara n'ay'umuhondo.

Abantu bari kuhira imyaka harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu bwijimye n'ipantaro y'umukara uri kuhira imyaka akoresheje imashini yabugenewe, inyuma ye hari imashini hari n'ikijerekani cy'amazi.

Umuntu w'umusaza ufite indobo y'umukara uhagaze ahantu mu murima ari kuhira iyo myaka irimo, imyaka bisa nk'aho imeze nk'inyanya, inyanya ariko zitaratangira kuraba.

Imisozi myiza iri ahantu hitaruye, hari umugezi utemba, hakurya hari umusozi muremure cyane, hari ikirere gisa neza ariko gisa nk'aho gifite imvura.

Ikibaya kiri hagati y'imisozi, ikibaya gisa nk'aho kirimo imyaka ihinzwemo itangiye kwera, indi yeze kuko ifite ibara ry'umuhondo rigaragaza imyaka yeze cyane.

Umusozi muremure uhinzeho ibiti bivangwa n'imyaka, aho imirima yaho iciye mu buryo bw'amaterasi y'indinganire, hari imirima ihinzemo imyaka, hari n'indi bigaragara ko ihinze ariko nta myaka irimo.

Umusozi uriho inzu zisa n'izishaje nyinshi, umusozi uriho ibiti bigaragara ko bimaze igihe bitemwe ntabwo ari ibiti bigandaye cyane, ni ibiti bisa n'ibivangwa n'imyaka.

Ahantu mu gisambu igisambu kirekire cyane harimo ibiti, ibiti bivangwa n'imyaka ni ahantu bisa nk'aho ari umurima udaheruka guhinga, aho ibyatsi byameruye byinshi cyane bitari byakurwamo.

Inzu yororerwamo inka harimo inka ziryamye ziri kuruhuka, izindi zihagaze ziri kurisha n'izindi ziri imbere y'umuntu bigaragara ko ari umuntu uri kuzireba atunga urutoki zimwe muri zo.

Amugabo wambaye taburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara, urimo arareba inka asa n'ushaka kuzikoraho, imbere ye hari ibyatsi zimwe mu nka, zirimo zirarisha.

Inka ifite ibara ry'ikijuju, inkayambaye ihelena ku gutwi, iherena risa n'umuhondo, iri kurisha ibyatsi bisa nk'aho ari ibyatsi byumye batunganyije.

Ahantu mu nyubako imeze nk'aho ari inyubako irererwamo inkoko, ahantu hari inkoko z'udushwi zikiri ntoya, hagati yazo harimo ikintu kimeze nk'imbabura bazicaniye kugira ngo zikomeze zishyuhe.

Inka iri mu kiraro cyubakishije, imbaho inka ifite, amabara y'umweru, nayumukara, iri kureba imbere bisa nkaho hari umuntu, uri imbere yayo irimo irareba.

Ingurube nyinshi zirimo zirarya zirimo zirarya buranda ziyirira mu kintu bakoze cyo kuriramo n'ingurube zisa n'izumweru n'izindi z'amabara menshi y'umukara n'umweru.

Ikiraro cya kijyambere kirimo inka ebyiri zifite ibara ry'ikijuju, imbere y'izo nka hari ahantu ziriramo, igisane ziriramo kirimo ubwatsi bigaragara ko zimaze kuharira ariko hakiririmo n'ubundi bwasigayemo.

Abantu babiri bahagaze ahantu bari kureba inka n'inka nyinshi ziri ahantu hameze nko mukiraro zimeze nk'izi kurisha, ni inka zifite ibara ry'ikijuju cyangwa se igitaka.

Icyanya kirimo inka, inka zifite ibara ry'ikijuju, zifite amahembe manini cyane agaye, iruhande rwazo hari abantu, harimo abambaye amataburiya y'umweru n'abandi bambaye ibisarubeti by'ubururu.

Ikiraro cya kijyambere cyubakishije amasima, gishashemo amabango, ikiraro kirimo ingurube ni ingurube enye harimo ingurube imwe nini y'umukara ifite amabere manini bisa nk'aho yonsa, n'inyuma y'aho hari utwana dutatu.

Ihene ziri ahantu bisa nk'aho ahantu hakorotiwe kugira ngo zijye zihaba zihahagazemo ihene z'amabara y'umweru ndetse n'izindi zifite amabara y'umweru n'ay'umukara.

Inyubako ngari cyane inyubako yubakishije ibiti, ni inyubako bigaragara ko wagira ngo ni nk'ibiraro bororeramo amatungo, imbere yayo hari ubusitani bahahinze, ni ubusitani buhinze neza kandi bukase neza.

Inkoko ziri mu nzu zororerwamo, inzu irimo utuntu zinyweramo amazi dusa n'umweru n'umutuku, ni inkoko z'amabara y'umweru n'umutuku ariko umweru wiganje.

Umuntu w'igitsina gabo uri ahantu mu cyumba bororeramo inkoko, ni icyumba kirimo inkoko zikiri udushwi, ni icyumba bisa nkaho badaheruka gusukura, kirimo utuntu ziriramo n'utuntu zinyweramo amazi.

Umuntu w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ipantaro y'umukara, ahagaze imbere y'inka arimo areba imbere ye hari ibyatsi, amatungo ari kurisha.

Inka nyinshi z'ibara ry'ikijuju, zifite amahembe manini akaye cyane, imbere yazo hari abantu bambaye imipira y'ubururu barimo barazireba, bisa nk'aho baziragiye.

Inka ziri kurisha ahantu mu gisambu, ni inka zirimo zifite amabara y'umukara, izifite amabara y'ikijuju, izifite amabara y'umweru, inyuma y'aho hari ibiti, bigaragara ko hatari mu ishyamba.

Inka nyinshi zifite ibara ry'ikijuju, zihagaze imbere y'abantu bari kuzireba bigaragara ko harimo n'abaganga bazo barimo barareba ubwiza bwazo, n'inka nziza zifite amahembe manini ziri mu bwoko bw'inyambo.

Ihene nyinshi zirimo umweru n'umukara n'izindi z'andi mabara, ziri hamwe ahantu hasa nk'aho ari aho zirirwa ku manywa ziryamye izindi zihagaze.

Icyumba gisa n'icyubakiye hanze ni icyumba gisa, n'icyubatswe na supanete, ni icyumba kirimo inkoko nyinshi z'umweru, kirimo n'ibintu zinyweramo amazi, n'ibyo zirira mu biri mu ibara ry'umutuku, n'umweru.

Udufuka dutoya turimo ibishyimbo, utundi turimo ubunyobwa, utundi turimo amashaza, harimo uturimo amashaza asatuye, harimo n'utundi turimo adasatuye.

Ibishyimbo by'amabara y'umutuku, ay'umukara, inzuzi, amashaza atonoye asatuye n'andi adatonoye, soya, umuceri n'indi myaka myinshi.

Umuntu w'umugabo, wambaye ipantaro y'ikoboyi, wambaye ishati y'amabara y'umukara n'umweru, ahagaze ahantu mu murima; ni umurima urimo ibigori byumye basaruye, ubundi bakanikamo.

Ibishyimbo by'amabara y'umutuku, amabara y'umukara, mashaza ay'amabara y'umweru, atonoye ndetse n'adatonoye, harimo na soya.

Ahantu mu cyumba, ni ahantu hameze nkaho hari icyumba cy'ibagiro, ahantu ku meza harambitse inyamaswa, basa nkaho bari kubaga, ni abantu batatu, bambaye udupfukamunwa, bari impande yayo.

Abantu bari kubaga inka, barimo barakuramo iby'imbere harimo amaraso batari ntango bari bayoza haracyarimo amarasomo harimo ndetse n'iby'imbere bizwi nk'amara bari gukuramo

Umuntu w'igitsina gore wambaye itaburiya y'umweru, wambaye n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, arimo arareba inka bisa nk'aho wagira ngo ari kuyitera urushinge, inka nyinshi zifite amahembe manini cyane.

Inyubako ifite ibyumba bibiri, imwe icyumba kimwe kirimo imifuka bigaragara ko ari nk'amabango arimo, amabango basesera mu cyumba cy' inkoko ndetse n'ikindi kimwe kirimo udushwi ni ibintu bakoze bashyiramo udushwi.

Inzu y'ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bw'inkoko zirimo ziganjemo udushwi umweru n'umukara harimo ibintu inkoko zinyweramo amazi, by'amabara y'umutuku n'umweru n'icyamabara y'umuhondo ziriraho.

Amajerekani yatanyuwemo kabiri, hashyirwamo itaka ariko agipfundikiye ntibakuho umupfundikizo bashyiramo itaka, bigaragara ko hari ibintu runaka binajemo nk'imyaka.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru, bambaye na ga z'ubururu, bari ahantu ku meza, ameza arambitseho inyamaswa, ni inyamaswa isa nk'iyakomeretse, ni abantu bameze nkaho bari kuyivura.

Ahantu ku meza hari inyamanswa inyamanswa yakomeretse, abantu bambaye amataburiya y'umweru na ga z'umweru barimo barareba igikomere cyayo uburyo kimeze.

Ahantu hameze nkaho ari akararo bubatse ni ahantu hameze nkaho bakingirira inka, inka nyinshi cyane zihari ziri aho hantu harimo n'umuntu wambaye itaburiya y'ubururu n'abandi bamuri iruhande.

Abantu babiri bambaye ibisurubeti umwe yambaye igisurubeti kiri mu ibara ry'ivu, umuntu w'igitsina gabo undi yambaye igisurubeti cy'icyatsi n uw'igitsina gore imbere yabo hari inka iri ahantu rwagati mu biti, bigaragara ko ari hantu abanyarwanda basanzwe bakingirira inka.

Umurima bisa nkaho wari mu ishyamba uriho inka ziri kurisha hari akakende gatoya karimo kazireba, ni inka ziri imbere y'ibiti byinshi bigaragara ko ari mu ishyamba.

Inzovu eshanu ziri mu mugezi ziri koga, muri izo nzovu harimo eshatu nkuru n'izindi ebyiri z'utwana, izo nzovu zose zirimo ziranywa amazi.

Inyamaswa ziri mu murima zirimo imparage, zirimo isha, amasha menshi n'imparage nyinshi zisa nk'iziri kureba umuntu uri kuzifotora.

Inyubako ebyiri harimo imwe yubatse ku buryo bwa bushuri n'indi iri iruhande rwayo yubatse mu buryo bwiza bita uducurama, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane, muri ubwo busitani harimo ibendera ry'u Rwanda.

Ingwe eshatu ziri ahantu zicaye mu byatsi, ni ingwe imwe nkuru n'utundi tw'utwana tubiri turi ahantu twicaye tumeze nk'aho turi kureba abantu baturi imbere ,turi ahantu mu byatsi muri pasiparumu.

Umugezi umeze nk'aho uri mu gishanga harimo imbata iri koga isa igana imbere, uwo mugezi usa n'urimo ibyatsi, bigaragara ko ari mu gishanga.

Ifoto yigisamagowe gisa n'icyafashwe ahantu, bagikikije ibyuma, inyuma yacyo hari inyubako ifite amabara y'umweru ndetse n'amabati. Ari mu ibara ritukura.

Imparage eshatu zirimo ebyiri zisa nk'aho ari inkuru n'akandi kameze nk'aho kakiri gato, ntabwo ari gato ariko ntabwo gakuze cyane nka zo, ziri gutambuka mu byatsi byumye, inyuma yazo hirya hari ibintu bimeze nk'ibiti ariko bitameze nk'ishyamba.